Iduka ririmo umuntu uri gucuruza, arimo gucuruza ibintu gakondo, ibiboshye, ibiboshye ni nk' biboshye hakoreshejwe imigwegwe, ibiboshye hakoreshejwe ubudodo.

Imodoka iparitse imbere y'inyubako, imbere yayo hari umuntu, umuntu afite icyapa cyanditseho Akagera moo bigaragara ko ari nyiri iyo modoka.